Abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo, bamwe muri bo bambaye amataburiya y'umweru n'ubururu, abandi bambaye imyenda isanzwe, bahagaze hamwe barimo bafata ishusho.

Umugore ufite ibara ry'uruhu rwirabura, wambaye ijire ya kaki n'umupira w'umweru, arimo arahereza amata abana bambaye imipira ya oranje.

Itsinda ryabantu benshi biganjemo abagore basa nk'aho bakuze hamwe n'abagabo, bambaye amataburiya y'ubururu, bafite amakayi barimo barasoma.

Ishusho irimo abagore batatu bafite uruhu rwirabura, babiri muri bo baje kuvoma bafite n'amajerekani ndetse bateze n'intoki kuri robine bari kunywa amazi, undi arimo arabafungurira amazi.

Ababyeyi bari kumwe n'abana babo, baje mu gikorwa cyo gukingiza abana babo, bakaba bari kubifashwamo n'umuganga ubifitiye ubumenyi buhagije.

Abanyeshuri b'abakobwa bambaye iniforume z'ubururu ndetse n'abahungu bambaye iniforume za kaki, bicaye mu ishuri bari gufata amafunguro ya kawunga ndetse n'ibishyimbo.

Ishusho irimo abantu babiri, umwe ni umugore, undi ni umugabo, bafite ibara ry'uruhu rwirabura. Umwe ari kwandika mu gitabo bigaragare ko arimo agira inama cyangwa avura undi, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho SIDA iracyahari duhaguruke tuyirwanye.

Abantu batanu barimo abagabo batatu bafite ibara ry'uruhu rwirabura ndetse n'abagore bafite ibara ry'uruhu rwera, bicaye mu cyumba kimwe kirimo ameza meza ndetse n'intebe nziza.

Umugore ukenyeye igitenge n'agapira k'icyatsi, ahetse umwana mu gitenge, akaba ari koza umufuniko w'indobo yegereye aho avomera amazi.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, uhagaze hagati y'abantu benshi, bigaragare ko arimo aragenda abahugura cyangwa abahereza amabwiriza ku bintu bitandukanye.

Itsinda ry'abantu benshi bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima, biganjemo abagore n'abagabo bambaye amataburiya ndetse n'amakarita mu ijosi, bari gukomera amashyi banishimiye umuzungu ubahagaze imbere.

Abagore bane bose bakenyeye ibitenge, barimo barakoresha ipompo izamura amazi iyavana mu butaka, batatu barimo barayapompa, undi umwe arimo aravoma.

Ikimodoka kinini gisa umweru, bigaragara ko gihagaze mu cyaro, inyuma yaho hari intebe za pulasitike ndetse n'itente, baje guhugura abaturage mu byerekeranye n'indwara zo mu mutwe.

Umugore ufite uruhu rwirabura, ukenyeye igitambaro kirimo amabara ya shokora n'ubururu bwijimye, wambaye n'amaherena y'umweru ndetse n'agapira ka orange, ufite uburakari budasanzwe cyane.

Abagore batatu bicaye muri salo bari kuganira, babiri muri bo bateruye abana, undi umwe afite telefone arimo arabaganiriza abagira inama.

Umusore ufite ibara ry'uruhu rwirabura, wambaye umupira w'umweru, ari kwireba mu ndorerwamo afashe akagozi k'umweru, akifashisha mu guhanagura amenyo.

Umukobwa ufite uruhu rwirabura n'imisatsi miremire, yambaye isengeri y'umweru afite uburoso bw'iroza mu ntoki arimo aroza amenyo.

Ifoto yafashwe na scanner yo kwa muganga, yerekana bimwe mu bice bigize akanwa, byiganjemo amenyo inkanka ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umugabo ufite uruhu rwirabura wambaye umupira wa orange, inyuma yawo hariho itaburiya ifite ibara ry'umweru, yicaye ku ntebe ifite ibara ry'icyatsi, iruhande rwe hari intebe y'umurwayi ifite ibara ry'icyatsi na yo.

Umusore ufite uruhu rwirabura, wambaye umupira w'umweru. Afashe akagozi kabugenewe gashinzwe koza amenyo, arimo aragakoresha yirwanaho ngo ahanagure amenyo.

Umusaza n'umukecuru bafite ibara ry'uruhu rwirabura bafatanye ku ntugu kandi barishimye, umukecuru afite igitambaro cy'umutuku mu mutwe ndetse n'umusaza yambaye ikositimu.

Ishusho irimo abagore babiri, umwe ni umukecuru ufite ibara ry'uruhu rwirabura, undi ni umuforomo ufite ibara ry'uruhu rwera urimo arafasha undi gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugore n'umugabo bafite ibara ry'uruhu rwirabura, bigaragare ko bashoboye kuba bakuze cyane. Umugore arimo arafasha umugabo mu gufata imiti ye.

Ishusho irimo abagore bambaye ibitenge ndetse n'umugabo umwe wambaye umupira w'ubururu n'ingofero n'undi wambaye igikanzu kirekire bahagaze mu murima urimo ibintu bitandukanye kandi barishimye.

Ishusho igaragaza umuryango ugizwe n'abantu batandatu, bafite uruhu rwirabura, harimo abagore bane ndetse n'abagabo babiri, bicaye hamwe kandi bose bishimye.

Umugore ufite uruhu rwirabura ndetse n'umusatsi w'umweru bigaragara ko akuze, ari gufashwa gukora imyitozo ngororamubiri n'umugore bigaragara ko akiri muto, afite n'imisatsi miremire y'umukara,..

Umugore n'umugabo bambaye imyenda ya siporo, umwe afite uruhu rwirabura, undi afite uruhu rwera, barimo barakora imyitozo ngororamubiri.

Umusaza ufite ibara ry'uruhu rwirabura, wambaye umupira w'ubururu urimo uturongo tw'umweru, yicaye ateganye na mugenzi we barimo barakina dame.

Umugore n'umwana bafite uruhu rwirabura, bambaye imyenda yumweru, bari ahantu hasa neza cyane hafite isuku, bari gukina imikino yo guhuza uduce twinshi dukora ikintu kimwe.

Abakecuru batatu bafite ibara ry'uruhu rwirabura, bicaye hamwe umwe muri bo aba ari hagati arimo arabeka ibintu bitandukanye kuri terefone ye.

Abantu babiri bafite uruhu rwirabura, bose bambaye utupfukawa. Umugabo yambaye ishati y'ubururu yicaye ku ntebe ya pulasitike, umugore yambaye ishati y'icyatsi arimo gupima amaraso umugabo.

Abantu batandatu biganjemo abagore batatu n'abagabo batatu, bambaye neza, bishimye, bahagaze imbere y'igikuta cyanditseho Minisitry of Health.

Itsinda ry'abantu batandatu, bambaye udupfukamunwa n'amarinete n'imyenda yabugenewe kugira ngo barinde ubuzima bwabo bitewe n'igikorwa bagiye gukora.

Umunyacyubahiro uri gutanga ijambo mu nama ya kabiri ya International conference on public Health in Africa, yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri.

Ishusho y'ubururu iriho inyuguti ya H na R byandikishijwe ibara ry'umweru, hagati yabyo harimo ibiganza bibiri biri gusuhuzanya, munsi handitseho healthy peaple Rwanda.

Icyumba gisa neza, gifite isuku, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi bafite indwara zitandukanye, kirimo n'ishusho nziza cyane.

Abagore batatu bahagaze bishimye, bambaye impuzankano z'ubururu ndetse n'ingofero z'umweru. Inyuma yabo hari ibiti ndetse n'umurima uhinzemo ibintu byinshi bitandukanye.

Inyubako yubatse neza kandi ifite isuku, imbere yabo hari imodoka nayo isa neza ifite isuku, hari n'abantu bambaye neza bafite isuku.

Icyumba cyo kwa muganga gisa umweru kirimo abantu bagera muri batanu, bane muri bo ni abaganga n'abaforomo bari gufasha umurwayi umwe urimo.

Umusore wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara, arimo arazingira supanete umurwayi, bari mu bitaro bisa neza, bifite n'isuku,...

Umuhanda w'igitaka ugana ku bitaro, mu nkengero zawo harimo ubusitani busa neza cyane burimo indabo zitandukanye, buteyemo icyapa gifite ibara ry'umweru n'icyatsi cyerekana serivisi ibyo bitaro bitanga.

Ikigo nderabuzima cya Kigina, gifite isuku nyinshi ihagije, amarembo yacyo arafunguye, hanze hahagaze umubyeyi uheretse umwana, bigaragare ko yaraje kwivuza cyangwa yari atashye.

Inyubako zubatse neza ku buryo bushimishije, zifite ibara ry'umweru ndetse n'isuku ihagije, imbere yazo hari ubusitani busa neza cyane ndetse harimo n'abantu.

Inyubako y'igitaro yitiriwe umwami Faisal, yubatse neza kandi ifite n'isuku, igeretse kabiri, imbere yayo hariho amabendera atatu harimo iry'u Rwanda n'andi atandukanye.

Ku kigo Nderabuzima hari umuryango hejuru yawo handitseho inzu y'ababyeyi, imbere hariho abantu bambaye udupira tw'ubururu, biteguye kwakira ababyeyi baza babagana.

Icyumba cyo kwa muganga cy'umweru gisa neza gifite isuku, kirimo aho basikanira abarwayi barwaye indwara zo mu mutwe batabasha kubonesha amaso asanzwe.

umusore w'ibigango wambaye isengeri y'umukara ifite uturongo twa orange ahagana ku ijosi no ku maboko, arimo arakora imyitozo ngororamubiri imufasha kugira ubuzima bwiza.

Agakapu gafite ibara ry'umutuku ndetse no mu mpande kariho ibara ry'icyatsi, karimo imikasi ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bishinzwe kwifashishwa mu buvuzi bw'ibanze n'umuntu ubifitiye ubumenyi.

Umukobwa ufite uruhu rwirabura, wambaye agasengeri n'ipantaro by'umweru, ari gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye hasi ku kenda kabugenewe ko gukoreraho imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kirimo abantu babiri, umwe wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, undi yambaye umupira w'umweru n'ikabutura ya kaki. Umwe arimo arafasha undi amuhambira ku maguru akoresheje igipfuko cyabugenewe, aho bigaragarako uwicaye yari yagize ikibazo cyo kuvunika.

Agakoresho kameze nk'inkoni, gafite ibara ry'umukara hejuru, kiburungushuye, kifashishwa mu kunganira umuntu ufite ikibazo mu kaguru. Cyangwa utabasha gutambuka neza.

Umukobwa ufite ibara ry'uruhu rwirabura, afite imisatsi myinshi cyane, yambaye agasengeri ka move ndetse n'ipantaro ifite ibara rya gereyi, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore uri kwa muganga, ateruye akuma gakunze kwifashishwa mu myitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari umuganga uri kumuha amabwiriza anamuyobora kugira ngo akoreshe ako kuma neza.

Umusore ufite uruhu rwirabura, yambaye isengeri n'ipantaro by'umukara n'agakomo k'icyatsi, mu kuboko kwe kw'iburyo harimo icupa ry'amazi.

Umugore ufite ibara ry'uruhu rwera, wambaye isengeri y'umweru n'ipantaro y'umukara, bigaragare ko arimo arakora imyitozo ngororamubiri. Iruhande rwe hari imbuto zitandukanye zirimo imizabibu, ironje, umuneke ndetse na pome.

Umugore ufite uruhu rwera, uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye iseri y'umweru n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hariho imbuto zirimo imineke, amarongi, pome n'imizabibu.

Agasanduku karimo ibipfuko, imiti n'amavuta n'ibindi bitandukanye bishobora kwifashishwa mu gihe umuntu agize ikibazo, ukaba ukeneye kumuha ubutabazi bw'ibanze mu gihe utarabasha kugera ku kigo nderabuzima.

Umusore w'umunyembaraga uri gukora siporo zo kwirukanka, bigaragara ko yafashe ibikomoka ku mboga n'imbuto byiganjemo imizabibu, karoti, amashu, pome, amaronji n'ibindi bitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga giteye imbere, kirimo amatara yifashishwa mu kubaga abantu ndetse n'izindi mashini nyinshi zitandukanye zifashishwa mu buvuzi.

Igikoresho cyifashishwa mu kunganira ijisho rya muntu kubera ko kibasha kubona ibyo ritabasha kubona, cyifashishwa ahanini kwa muganga no mu mashuri.

Umusore ufite ibara ry'uruhu rwirabura. Wambaye umupira ndetse n'ikoti ry'umuhondo rya siporo, afite agacupa k'ubururu, karimo amazi yo kunywa.

Udukarito tubiri dutoya, dufite amabara y'icyatsi, umuhondo, ubururu n'umweru. Bigaragare ko harimo imiti, mo imbere ishobora kwifashishwa mu kuvura uburwayi butandukanye.

Amacupa ane ateretse ku meza, atatu muri yo arasa umweru, ariho n'ibipapuro byandikishijweho inyuguti z'amabara atandukanye, irindi rirasa umweru kandi ni ikirahure.

Uducupa dusaga muri dutandatu n'agakarito kamwe, birimo imiti ya kinyarwanda yiganjemo ibumba n'amazi ya teyi n'igisura, byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Isoko ryubatse neza ririmo umutekano n'isuku, ryiganjemo urujya n'uruza rw'abantu, baje guhaha imyaka itandukanye irimo: ibikomoka ku buhinzi n'ibikomoka mu nganda.

Icupa ry'ikirahure ribonerana ririho umufuniko w'icyatsi, rizengurukijweho agapapuro k'icyatsi kandiditseho umuravumba mu nyuguti z'umweru, ndetse n'andi magambo mu nyuguti z'umukara.

Agacupa kari mu ibara ry'umweru kanditse amagambo asa icyatsi n'umuhondo, karimo umuti ukoza ahantu hatandukanye ugizwe na arowe na jojoba.

Icupa ry'umweru ryanditseho "Aloe Berry Nectar" n'irindi ry'umuhondo ryanditseho "Aloe Vera Gel" afite ihusho y'igikakabamba, arimo imiti ivura indwara z'uruhu.

Ikiganza cy'umuntu ufite uruhu rwera, gicigatiye icupa ririmo isabune iriho agapapuro kanditseho arowi cucoba kariho n'ishusho y'igikakarubamba ndetse n'ibindi bitandukanye.